Amashuri ni meza cyane. Kuko adufasha gutuma tuyigiramo maze tukagira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye, bigatuma ejo heza tuzibeshaho nta gihunga.

Amashuri meza cyane atuma abana bataba ibirara. Kandi bakibeshaho neza, ndetse igihugu cyacu kikarwanya ubujiji maze tukabaho neza twize dufite ubumenyi buhagije.

Kwiga ni byiza cyane bituma umuntu yishima akanezererwa, ku buryo abasha no kwibeshaho mu gihe kizaza, akagira ubuzima bwiza bumworoheye butagoye.

Raboratwari nziza cyane ibamo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bidufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, nka mikorosikope bakunda kuyikoresha kwa muganga bari gupima utubagiteriya turi mu mubiri w'umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ikoranabuhanga rirakataje mu iterambere ryacu ry'u Rwanda. Usanga cyane cyane mu mashuri agiye atandukanye, abanyeshuri benshi basigaye bazi gukoresha compiyuta ku buryo bwo hejuru.

Mu Rwanda tugiramo amashuri menshi cyane agiye atandukanye ygiishaga imyuga myinshi cyane igiye itandukanye. Hari abiga kubaza abo ngabo kuko badufitiye akamaro kanini, badufasha kubaza intebe zo mu nzu.

Amashuri asigaye ari meza cyane ,asigaye arabamo inyigisho nyinshi cyane zitandukanye hirya no hino mu gihugu hari abiga gukanika ,aba baba ari beza cyane, kubera yuko batuma ibinyabiziga bimera neza cyane kubera bigiye igihe.

Mu Rwanda tugira amashuri menshi cyane agiye atandukanye kandi ajya atugirira akamaro kagiye gatandukanye, hari nk'abakanishi, abo ngabo batuma imodoka zapfuye ziba nzima, kandi bakareba uburyo bwazo bakazirema zikongera zigakora, zikaba nziza cyane.

Amashuri abamo ibyiciro bigiye bitandukanye habamo ayisumbuye n'abanza. Ayisumbuye uba uri kuva mu bwana uri kujya mu bukuru maze bigatuma ubaho neza mu mibereho yawe.

Kwiga ni byiza cyane, bigabanya ubujiji mu gihugu cyacu maze iterambere rikaba ryinshi n'ubukungu bukiyongera, kubera abanyeshuri bafite ubwenge buhambaye kubera kwiga.

Turashimira Kagame Polo watugejejeho amashuri ku gihe, bigatuma abagore n'abakobwa bitinyura mu ntego zabo za buri minsi. Mbere abakobwa ntabwo bogoshaga ariko kuva kubera gubushyira hamwe uburinganire n'ubwuzuzanye bwaje, basigaye barogosha ukabona biranejeje cyane.